Inyama ziba nziza iyo wabikoze nk'umushinga, ugira ibagiro ryiza ukazibaga neza, ukazishyira muri firigo. Izo nyama abaje kuzigura ziba zifite ubuziranenge, ziba zimeze neza, ntacyo ziba zitwaye. Iyo veterineri yazipimye ziba ari nziza cyane, ziraryoha.

Ahantu hari ibirori byiza, haba hari amatara meza ari gucana akabonesha, n'iyo haba ari nijoro, aho hantu haba hameze neza hakeye ,hari kwaka, hariho urumuri, n'ibyaho byose biba bimeze neza.

Bara ibamo intebe nziza, ukajya kuri resebusiyo bakakwakira, ibyo ushaka babikugezaho ku gihe, nta kibazo ugira iyo uri muri bara nziza ifite n'abakozi beza, bakwitaho ntugire ikibazo.

Imitako iba myiza iyo bayiteyemo indabo, cyangwa bagateramo n'utundi tuntu twiza. Barazigura n'abakerarugendo bakayigura, babona ari byiza bibereye.

Ibi biryo biraryoha, ifiriti urayirya ukumva uriye ibiryo bimeze neza na kanyama, ubona mbese uriye neza ni ibiryo biba biryoshe cyane.

Iyo ushyize ikirango cya pirimusi ku nzu ucururizamo, bamenya ko uzifite bakaguteza imbere. Na ho iyo nta kirango gihari, nta bwo babimenya. Ni yo mpamvu ugomba kugishyiraho.

Burushehete ziraryohaga nihowa zokeje neza ukazi nk'umuriro mukeya, zibaga ziryoshye, zishaga nezaho, ukaziha akarungo karyoshye, ugashiraho agasenda washizemo amuriro mukeya, zigendaga zirasha zitonze zitonze ukumva ziraryoshe.

Akabari kaba keza cyangwa ibara ,usangamo ibyo kunywa byose :yaba ji , yaba izifite umusemburo ,yaba fanta, wabona ari byiza iyo ugeze ahantu hari bale ufite icyaka uragenda ukabaza agacupa ukanywa, ukumva umeze neza.

Ibitaramo biba byiza. Iyo haje ba mukerarugendo hakaba hariho intore, zirababyinira zikabashimisha, bakumva barasusurutse bakarara mu gitaramo bugacya, bumva ari byiza, igitaramo kiba cyiza cyane. Nta muntu utatarama ari kubona rwose afite umwanya wo kujya mu gitaramo.

Inkoko iyo bayihokejemo burushete iba nziza iraryoha, ukayiherekeranya n'ibi ibirayi biba biryoshe, kubirya biba ari ibintu biryoshye cyane ndanabikunda. Bayokeje neza, ntibayishirije, n'ibi birayi bisa neza, ugashyiraho n'agasenda, bigenda bimeze neza

Ibishyimbo birinda indwara, bitera imbaraga, ababihinze nabo bagakora umushinga wo kubihinga, babijyanye ku isoko, babifitemo inyungu, ibishyimbo ni byiza.

Ibihaza bigira vitamine mu mubiri. Ibihaza wabiriye bikugwa neza, igihaza ntabwo cyakuniga, igihaza ni cyiza kukirya ni indyo yuzuye uba uriye.

Inzu z'ubucuruzi ziba ari nziza. Hari na sacco, iyo ukeneye kubitsa, ujya kubitsamo amafaranga ayawe ukaba uzi ko hizewe, uyabitse ahantu hizewe, igihe n'igihe wagenda ukajya kuyafata udafite ikibazo cy'uko azabura.

Situdiyo igufasha gukoresha ibintu ushaka, ushaka gufata nk'indirimbo ujyaga muri situdiyo. Waba ushaka gufata na filime ukajyayo bakayiguha ukajya kuyicuranga, ukumva ibyo bagushyiriyeho niba ari byo bitaba ari byiza ukagenda bakagushiriraho ibindi. kizaca setudioze bakazitwegereye

Iduka ririho ibintu byose, ugura ibyo ushaka nk'ibikoresho byo mu rugo, ukagura nk'akaduki ukakaregerezamo amazi cyangwa koza ibintu udafite akabati ukabibika muri ka kaduki, kabibika neza ukajya gukura n'isahani ugasanga isa neza itanduye. Nicyo cyiza cy'ibikoresho nk'ibi by'utubuki byo murugo.

Ishapule igufasha gusenga ukavuga amibukiro, ukavu ndakuramutsamariya, buri saro riba ifite icyo risobanuye, ishapure iradufasha mu gusenga.

Iyo ufite iduka, uratandika ibicuruzwa byawe abari hanze bakabireba bakabona ibicuruzwa ibyo ari byo, bakinjira baje kugura, niyo utakwirirwa urahamagara babona ibirimo bakaza kubihaha ,utiriwe urabahamagara.

Iyo ufite ikintu ukora ufata icyapa, ufite ibintu ucuruza cyangwa se uri kwamamaza, ibintu ucuruza ukoresha icyapa, ukajya ushyira ku muryango wawe, buri wese uharebye agasoma kuri icyo cyapa amenya ikintu kirimo, bigatuma ahaha atari afite gahunda, kubera ko yamenye ibintu birimo.

Inzu nk'iyi aba ari nziza kuyikoreramo, wamamarizamo ibintu byawe, uri kugenda akabibona, bikagaragara ko ari ibicuruzwa, koko. Iyi nzu ni nziza.

Inzu yo gucururizamo iba itandukanye n'izindi nzu, ukingura imiryango yose, ushaka kugura, ushaka kureba ibirimo, arareba bigatuma yinjira akagura, kubera ko yabibonye ibirimo.

Ahantu hazitiye haba ari heza haba hagafite ubuziranenge, nta muntu upfa kuhinjira uko yishakiye, aho hantu haba hameze neza, hatuje hatekanye nta muntu wapfa kwinjiramo uko yishakiye.

Iyo ufite ibicuruzwa ahantu uri kubicururiza, ugashyiraho ikirango abantu bamenya ibiri muri'iyo nzu, bitewe n'uko washyizeho ikintu kiri kubiranga, ugishaka yareba ku icyo cyapa akinjiramo akaba azi icyo ashaka kubera ko washyizeho ikintu kigaragaza ibintu uri gucuruza.

Inzu nziza urayireba ukabonera iberewe, ukabarahabereye yaba iri ahantu ku muhanda ubonaga iyozuhabereye cyangwa nko ku muhanda, nko mu mujyi, iyo nziba ari nziza ubonagwa mugi ufite iterambere yogufite amazu meza nk'ayo ngayo.

Inzu y'ubucuruzi iyo ari iy'amagorofa iba ari nziza, kandi buri hantu hose haba hari ikirango cy'umuntu uhacururiza .Ushyiraho izina ryawe bakamenya aho hantu ngo ni kwa kanaka, noneho iyo abantu bakuyobotse bamenya aho baraza ,kuberako baba bazi bari kureba n'icyapa kigiye iwawe.

Umumotari agutwaye agomba kugenda yigengesereye, ibintu ujyanye iyo ari birebire ubijyana neza witonze wigengesereye, uri kugira ngo utagira uwo ubangamira.

Ufite bara uba ugomba gushiraho ikirango , utambutse agasoma akamenya ko ari bara, cyangwa ari hoteli cyangwa se resitora ,uba ugomba kwandikaho kugira ngo urareba abitandukanye amenye icyo iyo nzu ikora.

Abakora telefone zapfuye, baba bafite ibikoresho bakareba ubupfu burimo bakanayisenya, bakongera bakayisubiranya imaze gukora neza. Barayikora igakira.

Umuco mwiza wo gukaraba intoki, ugiye nko muri saro ukaraba intoki, baba bakogoshe bakagutunganya neza, ukagenda wishimye.

Insinga bazinyuza ku mpande, ntibazininyuza ku mazu hejuru, iyo zininyuze ku mazu hejuru naho zigashishuka zigafata ku ibati, zitera ingaruka y'nkongi y'umuriro.

Ahantu hari saro de kwafire iyo washyizeho icyapa biba ari byiza, iyo ushaka gukoresha imisatsi urabibona ukamenyako aho hantu bayikora, cyangwa se bogosha ugahita uhinjira, bitewe n'uko bashyizeho ikirango gisobanuye ibyo ushaka nawe ugahita winjira.

Iki kirango ki kugaragariza ku iyo nzu ibintu birimo, niba ari imyenda, niba ari amapantaro y'abagabo, niba ari iy'abagore, ukabimenya ukajya kugura nta kibazo.

Insina ziba nziza iyo ziri hafi no mu rugo ibitoki byeraho turabirya biba biryoshye, insina ni nziza ziba ari nziza.

Abapakira ibisheke iyobabitemaguye, babitwara neza bagatwara byinshi, kandi ubona ari byiza, iyo umuntu ari kuritwara ubona ntacyo rimutwaye, ntawe bibangamira.

Amaherena aba meza n'imirimbo y'abagore, uretse ko n'abagabo bayambara. Amaherena ufata Amaherena maremare cyangwa ugafata a magufi bitewe nayushaka. Urayambara ukabona uraberewe akumva yishimye amaharina aba meza.

Iyo ujya mu isoko utoranya ibyo ushaka, ugatoranya ibara ushaka, haba harimo amabara yose, ugafa ibara ryiza uri kumva ushaka, umutayeri aba ari aho akakudodera.

Ahantu wifotoreza haba hari igitambaro, ukahahagarara, ukifotoza, ifoto yawe ikaza imeze neza ikeye, ukayishyiraho aho ushaka kuiyishyira, nta kibazo ufite, imeze neza.

Ibintu byose biba byiza, iyo ushyize ibicuruzwa ahagaragara, ugashyiraho ikirango, n’ibicuruzwa bikagaragara, bituma abakiriya baza bari kugusanga, bakagura, ntibajyane n’ahandi, kubera ko baba bari kureba ibyo watanditse ibyo ari byo.

Amazu y'ama etaje aba angomba kugira ibigega byo gufata amazi. Kugira ngo y'amazi adatemba agatera imyuzure hakaza isuri, cyangwa hakagira imihanda icika, kubera amazi yabuze ikintu kiyafata. Ibigega biba byiza bifata amazi turabikunda.

Inzu ikorerwamo ibintu bitandukanye bijyanye no kuba ugomba kwakira abakiriya. Uba ugomba kuyikora neza ugashyiraho ahantu heza ho kunyurwa, ahantu hirengeye ugashyiraho sikariye abagiyemo bakagenda nta kibazo bafite bakagerayo nta kibazo, badahungabanye ntacyo hatwaye.

Aya makaro ni meza baba bayatanditse, buri wese agatoranyamo ayo ashaka, ukarobanuramo ayo ushaka. Rwose aba ari meza, iyo bayatanditse uratoranya.

Isoko riba ryiza abantu bararigana bakaza guhaha. Ushaka icyo kurya aza kugishakira mu isoko ushaka umuti w'ibirayi, ushaka ibintu byose uri kumva watekereje biri mu isoko ujya kubishaka kubera ko riba rinakwegereye.

Kwihangira imirimo, biba byiza, iyo uri umucuruzi, ugacuruza ibintu uri ukumva bikurimo, ushaka gushaka amafaranga. Ucuruza utari kwikandagira, ibyawe uka bishyira ku isoko, bikagaragara neza. Wahura n'umukiriya, ukamwereka ibyo ufite, akarebamo ibyo ashaka, ibyo ashimye mugahaha, kubera ko nawe uri gushaka amafaranga nk'uko ubishaka.

Ibicuruzwa biba byiza iyo ubicururije mu nzu ngari, ugakingura imiryango ibirimo byose bikagaragara, n'umuntu uri kugenda abona ko iyo nzu irimo ibicuruzwa, yabonamo nk'icyo ashaka agahita aza akagura. Ni yo mpamvu gucururiza ibicuruzwa byawe, ugomba kubicururiza ahantu hari kugaragara neza.

Botike iri ahantu hihereye hirya y'ibitaro cyangwa y'amashuri yafashaga nta kavuyo kaba gahari katuma kabangamira abakiriya baje ku kigo nderabuzima cyangwa ku mashuri. Botike aba ari nziza iyo ari ahantu hitaruye.

Aba ajenti nabo baziye igihe, iyo amafaranga uyabonye urayabitsa, n'iyobajyanye terefone amafaranga yawe usangabo, icyo nicyo kiza cyo kubika amafaranga kuri terefone.

Iyo uri umuhinzi wabigize umwuga uguriramo imiti yose, ibigori byagira nkonga ukaguriramo amuti ukayitera, ikagenda ukabona umusaruro mwiza kubera ko wabikingiye, ukabitera imiti yose isabwa ukabona umusaruro.

Ibyma by'amagare biba byiza. Nk'iyo igare ricitse urupanga urarugura ukarusubizamo, ukongera ukarigendaho bitabaye ngomwako ujya kugura irindi. Nicyo cyiza cyo kuba hariho ibyuma, bisimburana nibiba birimo. Iyo hari ibyuma bishyashya urakigura ukagishyimo ukongera ugakora gahunda zawe neza.

Iyo mashini idoda amakanzu, cyangwa ikadoda amagutiya, cyangwa ikadoda n'amakabutura y'abana, n'ayabakuru bose. Bakagerwaho n'iterambere ry'imashini.

Ikinyobwa cya gatanu na cyo ni cyiza kiraryoha, iyo mugihuriyeho mugasabana murishima, mugashimishwa n'uko kiryoshye, iki kinyobwa kiraryoha ntacyo gitwara ni cyiza.

Matora ziba nziza kuziryamaho. Matora ya rwanda fomo iba ari nziza na dodoma, iba nziza zivura umugongo, zivura amavunane. Iyo uyiryamyeho urasinzira ukumva umeze neza, ukumva umubiri wawe umeze neza.

Isoko ribaga ryiza uhahiramo ibintu byose ushaka yaba amakara ukayabona, ibirayi, ugahaha inyanya, ugahaha igitoki, byose ukagenda wabihashe iyobera ahantu ugenda wahashe ugahahira rimwe ukagenda unezerewe.

Inzu y'ubucuruzi iba nziza, kubera ko iyo utanditse ibintu byawe, abakiriya baza kugura, bagahaha, kubera baba babonye ibyo uri gucuruza, niyo mpamvu gutandika ibicuruzwa biba ari byiza, buri wese arabibona agahaha nta kibazo.

Inzu z'ubucuruzi ziba nziza, iyo uri kuzicururizamo zisa neza, ziri ahantu heza, zituma ugirana n'abakiriye, bitewe n'uko iba iba ahantu heza.

Butike iyo uje guhaha, ugasanga ibintu byose bibamo, iyo usanze ibintu byose birimo ugahaha, ugenda wishimye. Utagiye guhahira hamwe ngo wongere uje guhahira n'ahandi, ugenda wishimye byose ukabihahira hamwe.

Icyapa gituma umuntu uri kwamamaza, bamenya ibyo ari gukora, cyangwa niba ari amayinite uri gutanga, bakamenya ko aho hantu haba amayinite, cyangwa niba ari ubucuruzi bakamenya ko ari ubucuruzi buhari, nicyo kiza k'icyapa, umuntu uzi gusoma, amenya icyo cyapa icyo gisobanuye.

Abaririmbyi bararirimba ukumva ubutumwa buri muri iyo ndirimbo, bukaguhumuriza cyagwa bukagukomeza bitewe n'igihe uba urimo wumva iyo ndirimbo ukumva iragufashije.

Ikawa iba nziza, niyo ushize ikirango ahantu ukorera imikorere yawe ijanye n'iby'ikawa, abantu barabimenya, baba bashaka no kugura bakaza bakagura, kubera ko wabishyize ku itangazo.

Icyiza cyo kubika amafaranga akaba muri banki biba byiza, amafaranga yawe aba afite umutekano, iyo uyakeneye uragenda bakayaguha, ukagura icyo ushaka kugura. Ni cyo cyiza cyo kubika amafaranga yawe ahantu wizeye, iyo uyashyize muri banki, biba byiza kurushaho.

Jaride iba nziza, iyo ari ahantu heza, haba hateye ubwatsi bwiza, umacaca, harimo indabyo zibereye amaso, abageni bakunda kuhifotorereza n'abandi bantu bakoze ibirori barahakunda. Hagira amafoto heza, kandi nawe uhatuye ubona ari heza cyane.

Amapave abaga meza iyo uyashashe ahantu mu mbuga ugashiramo nibi biti by'imitako, urahagera ukaba n'ihantu heza ubona hakeye hameze neza, ukumva rwose ni ahantu wanakwifotoreza ukabona ahantu heza.

Iyo uri ahantu heza, hakeye, hubatse neza, hameze neza cyane, wumva kuhifotoreza ari byiza, nawe ukumva urahishimiye, bitewe n'uko uba uri kuhareba, n'ifoto yawe iba ari nziza, iba ikeyeye, ukabona kuyipositinga ari byiza cyane.

Ahantu heza urahifotoreza ukagaragara neza, ifoto yawe ikaza ari nziza, ku buryo uyipositinga, abantu bakayireba bakabona urakeye, bakabona ahantu wari uri ni heza, umeze neza nawe wumva wishimye, uri ahantu heza.

Hoteri ni nziza, isa neza, iri ahantu heza, hariho n'ikirango rwose ku buryo umuntu yageze aho yamenya ngo iyi ni hoteri. Ni nziza isa neza neza.

Mu muco nyarwanda, inzu z'ibyatsi wabonaga ari nziza. Ubu haje iterambere, barazisirimura ntizibe nk'iza kera, ukabona nazo ni nziza, zirabereye cyane.

Isakoshi y'umugore iba ari ingenzi kuko uyitwazamo utuntu uri kubona ari ngombwa ukene, Iyo witaje isakoshi ubona unaberewe. Isakoshi ni nziza ku umuntuntu w'umubyeyi.

Habaho ibintu byiza bitatera ikibazo ku bishyiramo ibicuruzwa, kandi bicuruzwa bikagaragara neza nta kintu bibangamiye, ubona ari byiza ukabibona ko biri no kugaragara.

Ibikosi biba byiza, turabikoresha turi kunywa igikoma, isafuriya tuzitekagamo, amasahane tukayariraho turabyifashisha ibintu byinshi ,umukeka uwurambura mu nzu cyangwa ukawurambura hanze ukawuryamaho ukumva ahongaho ubaye neza, ni cyo cyiza cy'ibi bikoresho.

Iyo ufite igitwe cya cagi ugishyiraho umugozi ugacomeka muri terefone, umuriro ukajyamo nta kibazo, ukabona umuriro nta kibazo ugize.

Isoko na ryo ni ryiza. Iyo umuntu afite amafaranga, aragenda agahaha, akarya nta kibazo. Waba ufite nk’amafaranga, ukagenda ugacururizamo, na bwo ugatera imbere. Isoko ni ryiza iyo ryegereye abaturage.

Pinari ni imboga ziryoha cyane, ni iboga rwatsi zigira vitamini, iyo uziriye wumva zimeze neza, uziteka mu biryo ibyo aribyo byose, wazitekana zonyine ukazirisha umuceri cyangwa umutsima, imboga zapinari ziba nziza kandi nta hantu zitakwera, ahantu hose zirahera.

Inkwavu ziba nziza iyo zubakiye ikiraro cyazo zikabaho zisagaguye ubona arizo zimeze neza , zitanga n'umusaruro ziba zihanye umwanya zikabyibuha , zikumva zisagaguye nibyo bituma ubona inkwavu zimeze neza.

Karoti ni igihingwa kiba cyiza cyane, ushaka umurama ukazisesa, zirazamuka ukazibagarira, nazo ziba nziza uzitera umuti, ni igihingwa gitanga umusaruro, kandi ni igihingwa kitavuna cyane, nazo kuzihinga no kuzirya ziba bakaziryoshye cyane.

Isoko ryubakiye riba ryiza, ibicuruzwa byaryo ntibinyagirwaga, ntibyicwa n'izuba biba biri mu maduka yabugenewea ahantu heza. Nicyo cyiza cy'amasoko hubatse amaduka meza, ibicuruzwa byose biba bimeze neza bifite ubuziranenge.

Indagara ziraryoha uzitekamo agasosi amazi y'indagara ab aryoshe, indagara zigiraga n'agafu, agafu kazo iyo ushaka ukaminjiraga ku biryo cyangwa se ukagateka nk'agasosi, ukaminjiramo ako gafu gatuma ibiryo bihumura neza habaga harimo na vitamine.

Inyanya uziteka mu biryozi bikatukura pavuro ukazikaranga mu biryo. ntizi sereri na zate. Ibi byose biryosha ibiryo ukabirya ukumva bimeze neza.

Ibicuruzwa biba byiza iyo bitanditse, babishyira ku mufuka cyangwa shitingi, kugira ngo hatajyamo ibitaka bikandura, abakiriya bakabona ko byanduye bakabigura bari kwivovota cyangwa se bakabyanga, kubera ko byanduye niyo mpamvu ibicuruzwa uba ugomba kubishyira ahantu heza bikagaragara neza.

Isoko riba ryiza, utandika imyenda yawe bakayireba cyangwa ugatandika n'inkweto. Haba hari utubati twabigenewe urambikamo imyenda, ibicuruzwa byawe ntibyandure, ntibihungabane. Iryo soko rero iyo ufite ibikoresho nk'ibyo biba ari byiza cyane, imyenda yawe ntabwo yandura cyane.

Ibi bigufasha gucaginga umuriro, ukinjira muri terefone cyangwa se mu pasi cyangwa se muri keto, iyi migozi ugufasha kwinjiza umuriro mu kintu washatse gucaginga.

Imboga z'isombe ziba nziza, zigira vitamine mu mubiri, zongera amaraso umuntu waziririye ntabwo agira ikizungerera, zongera n'amashereka ku mubyeyi uri konsa.

Isoko riba ari ryiza, iyo ririmo abantu urujya n'uruza ariko aha aho abantu ni bakeya niba aruko riri mu ishyamba, ryakagombye kuba riri ahantu hitaruye.

Uwu munzani ugufasha kujyana ibiro byuzuye, n'umucuruzi na we ntu mwibe. Ibicuruzwa byawe iyo ufite umunzani, ucuruza nta kibazo ufite.

Habaho iminzani iba itandukanye: habaho umunzani w'umuziranenge n'undi munzani usanzwe. Ariko iyo iri gukora yose ikaringaniza ntiyibe, iyo minzani kuyipimiraho nta kibazo byatera.

Goyiko ubona ari nziza, iyo uri kuyirebera inyuma ubona ari nziza, noneho iyo ugezemo imbere naho ubona ari heza, habamo ibyumba byinshi uragenda ukabona ahantu hari abantu batanditse ibintu, Goyiko uyigezemo ubona ari nziza ari imbere ari n' inyuma ubona ari nziza.

Ibicuruzwa biba byiza, iyo bitanditse umuntu wese ubikeneye akabishaka akabibona, agapaniye urakajyana kugasurishamo nk'umuntu, washyiramo ibintu byawe ukajya kumusura wikoreye, ubona uberewe, ikiduki ushiramo amazi, ukagishyira ku mureko, ukakigerezamo, ibintu byinshi biba bikenewe mu rugo bibaba ari byiza.

Ahantu haba ibicuruzwa byinshi iyo ushaka kujya guhaha, uhaha ibyo ushaka cyangwa byose ukabibonera hamwe ukabihaha ukagenda wishimye kubera ko byose wabiboneye hamwe ntugire ikibazo cyo kujya guhaha ibind,i nibyo byiza byo guhaha mu isoko.

Amasandugu adufasha guherekeza abacu bakagenda ubutabazingazinze mu birago ntibya kera gabangagamiza ugashyizemo uwawe ukamuherekeza wumvaga kumuherekeje neza ukumva ko aruhutse ukumva utuhi nawe ntugire ikibazo cyane.

Isoko riba ryiza, umuntu ahahiramo ibyo ari kumva byose akeneye, waba ushaka intara ukayigura, waba ushaka ikiduki ukakigura, waba ushaka n'imishingizo byose mu isoko biba birimo, ibyo ushaka byose ubiguriramo, iyo wagiye mu isoko biba byiza iyo wigiriye mu isoko.

Inkoko kuzubakira ikibuti biba byiza. Kano kayungiro gatuma zihumeka, zirahumeka neza, zikabona umwuka mwiza, zikamera neza, nta kibazo zigira.

Iguriro ry'imyambaro habamo imyenda myinshi myiza ugacagura, kubera ko gucuruziga ari benshi ugacagura hamwe wabona utazishimye ukajyagucagurara n'ahandi ukirobanuza gabo wageze mu isoko ugura uko ushaka uguhenze ukajya kugurira n'ahandi'cyocezacugurira mu isoko.

Ibicuruzwa uhinahina umufuka bakareba ibiri mu mufuka bakamenya ko uri kubicuruza. Naho iyo uzingazinze umufuka ntugaragaze ibirimo, ntibamenya ibirimo ngo bakubaze niba uri gucuruza.

Gucuruza ibicuruzwa biba byiza urabitandika, umuntu akirobanuza icyo kiringiti ukakigurira wakirerebye, uwo musego, ibintu biba byiza iyo babitanditse buri wese akabireba.

Etaje nziza igomba kuba ifite parikingi, ifite ahantu h'abanyamaguru bagomba kunyura ubona ko ari byiza, iyo ifite ahantu uraparika imodoka, ugaparika moto, ntihagire umuntu ubangamira undi nibyo ubona ari byiza.

Ibase ni igikoresho kiba cyiza, ucogerezamo amasahani, ukayabikamo cyangwa ukakimeseramo, ibase n'igikoresho umuntu akoresha mu bintu byinshi, ukugura nta kibaga gitwaye no kugikoresha gifite ibintu byinshi gikorwamo.

Isambaza ziba ari nziza, iyo bamaze kuziroba, bazishyira ahantu ku kazuba bakazizitaraganya, ukabona ziciyemo akayaga, noneho iyo ushaka kuzigura, ugura izidakawushije cyangwa ukagura izidakawushije, zosa ziba ari nziza, ugura bitewe n'ikintu ukunda.